Abagabo n'abagore bafite ibyapa binini by'ubururu, byandikishijeho amagambo y'umweru ngo gerayo amahoro, bari imbere y'ihema, abandi barimo barabareba nabo bakoma mu amashyi, basa nk'aho bari kwishimira ibyagezweho.

Bari mu nama ni rubyiruko rwivanzemo n'abantu bakuze, hari umusore ufite mikoro yambaye agapira k'umweru afite n'agakayi mu ntoki ari kubabwira, bose bamuteze amatwi.

Ni ahantu mu ihema, bigaragara ko haje abantu benshi bari mu nama rusange, ni abaturage barimo abasaza n'abakecuru, n'abandi bantu b'urubyiruko, hari n'abambaye iniforume zibaranga.

Ni mu nama yahurije hamwe abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore n'urubyiruko muri rusange, bari gutega amatwi ufite ijambo ari kubabwira.

Umugabo uri mu nama kimwe n'abandi ,yambaye amarinette, yiyogoshesheje umusatsi wose yawumazeho ,yambaye impeta n'isaha ,yambaye ishati iri mu ibara rya shokora n'umweru, yicaye ku ntebe hirya ye hateretse amazi na juice.

Bicaye basa nkaho bari mu nama barakurikiye imbere ya buri muntu hateretse akapipiri k'amazi n'akandi kaji ni abantu bakuru barimo abagabo n'abagore bari mu nama.

Hari intebe z'icyatsi kibisi. Inyuma yazo hari amarido maremare y'ibara ryijimye. Imbere ye hari amazi ari bunywe. Yambaye ikositimu n'ishati ya buresiyeri, ari mu nama.

Hari icyapa kinini cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, rubyiruko ba menya amateka yawe, ni abantu babiri bambaye imipira y'imyeru n'amapantaro y'amakoboyi, bahagaze imbere y'abandi, basa n'aho bari kubigisha ibijyanye n'urubyiruko.

Umumama wambaye agakanzu, yambaye n'isaha afite ikayi mu ntoki, afite na mikoro mu ntoki arimo aravuga bisa nk'aho bari mu nama.

Bari mu nama ni abagabo bakikije ameza manini ariho igitambaro cy'umweru biteretse imbere amazi yo kunywa ndetse hari na mashini imbere ya buri wese bari mu nama bateze amatwi umuntu umwe uri kubabwira.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu mu inama, imbere yabo hari ameza adekoyeho indabyo, hari n'amacupa y'ibyo kunywa, bose barakurikiye basa nkaho hari icyo bari kwigaho.

Bambariye umugeni bicaye ku ntebe, bambaye imishanana n'udusengere, bambaye udukorone mu mutwe tw'umweru, ni abagore basa nkaho bakuze, bari ahantu hamwe bicaye bategereje ubukwe.

Ni ibijyanye n'umuco aho abakobwa bateze utuntu mu mutwe tw'udukorone ndetse no mu ijosi bafitemo inigi, bashananishije imishanana y'imyeru n'udusengeri tw'umweru, barimo barabyina imbyino za Kinyarwanda.

Igisabo giteretse kuri tapi y'ubururu, kiriho n'umupfundikizo wacyo, ni igikoresho cyifashishwaga mu Rwanda rwo hambere bacunda amata.

Agaseke k'umweru n'umukara kaboshye neza karateretse, kagaragaza umuco nyarwanda ko kera barangwaga no kuboha ibintu nk'ibi.

Arapfukamye akaguru kamwe karahagaze afite ibikoresho bya kinyarwanda byifashishwaga mu kurasa barwana n'ababisha, ni umugabo wambaye inkota nyinshi n'ibindi bikoresho.

Ni abakobwa batandatu baricaye bose bambaye imishanana bafite imisatsi basokoresheje mu misatsi harimo agakorone bambaye imikenyero ijya gusa umweru n'udupira tugarukiye hejuru y'amabere.

Abantu benshi bari inyuma y'inka, ni inka nziza zifite amahembe maremare asa n'arebana, ni inka zifite umubiri utoshye zirasa n'ibihogo, ni inyambo, ni nziza cyane ni ubworozi bw'inka.

Umugabo wuriye ipoto yambaye inkweto zifunze ipantaro y'umukara itaburiya y'ubururu n'ingofero y'umuhondo, ari ku ipoto arimo aratunganya ibibazo byabayeho mu muriro w'amashanyarazi.

Ari ku ipoto y'amashanyarazi, yambaye inkweto asa naho yaziritse ibirenge ku ipoto, yambaye ingofero y'umuhondo, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'ikaki, ni umugabo uri gukurikirana iby'amashanyarazi.

Ahantu hatari ibyatsi na kimwe hari umuntu umwe wenyine na we yambaye imyenda y'umukara, ari iruhande rw'ibizu byabugenewe bishinzwe gufata umuriro ndetse hari n'ibyuma bimeze nk'amapironi, bitambutsa umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru yambaye y'icyatsi kibisi yambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara ari hejuru ku ifoto ari kujya gucomeka urusinga rwari rwacitse kugira ngo abantu babashe kubona amashanyarazi.

Umugore wambaye igitenge kidoze, ifite imirimbo ku maboko n'imbere mu gatuza, yambaye n'imetero, afite n'imashini imbere ye arimo aradoda, imbere ye hari n'umukasi n'urudodo.

Abashinzwe iby'amashanyarazi, ni abagabo benshi bageze muri batanu cyangwa batandatu, barimo barakurura insinga z'amashanyarazi ku ipoto, rimwe riri ahantu mu biti aho hari n'urwego umuntu bisa nk'aho yagiye gukora ahari ikibazo yuririyeho.

Abagabo n'abagore bari gukora ahantu hari iruhande rw'ibyuma bishinzwe gutambutsa umuriro w'amashanyarazi, basa nkaho bari kuhakora isuku bavanaho ibyuma bibi byakoreshejwe bitazangiza abantu.

Ni insina ziteye mu murima, aho bacishije ipoto ry'umuriro, hari insinga zicamo zitambutsa umuriro, hejuru yaho hari ikirere cyiganjemo ibicu.

Abagabo bambaye ingofero, udupfukamunwa ndetse n'amajile, bambaye amapantaro abenshi y'imikara, bari imbere y'ikintu cyubatse kimeze nk'aho kiri imbere na cyo y'amapoto n'amapironi atambutsa umuriro.

Inzu isakaje amabati y'umutuku yubatse mu buryo bugezweho bw'igisenge iri imbere y'ahantu haba imirasire ikusanyirizwayo ishinzwe gutanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba.

Bambaye amagofero y'umuhondo, bambaye n'utujire bamwe muri bo, hari uwuriye hejuru ku ipironi ishinzwe gutambutsa amashanyarazi abandi bari gufata hasi bamuzamurira ibikoresho bisa nk'aho hari ikibazo cyabayeho mu muriro w'amashanyarazi.

Ni abagabo batatu bari hejuru y'igisenge cy'inzu ni kumabati afite ibara ry'ubururu, bambaye uni forme zibaranga nk'abakora mumashanyarazi, bambaye uturindantoki ,bambaye n'ingofero barimo barateranya ibyuma ngo bakore amashanyarazi.

Abagabo babiri bambaye amagofero, umwe yambaye y'umweru, undi yambaye umuhondo ni umuzungu n'umwirabura bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi, aho umuzungu ari kwerekwa n'umunyafrika aho bakwiye gushyira ibyuma.

Ni umuzungu wambaye akagofero kameze nka parasitike k'umuhondo, yambaye n'kajire k'umuhondo n'agapira, k'umukara, afite ibintu mu ntoki bimeze nk'amashanyarazi, ari kugenzura ikibazo cyabayeho.

Hari ibiti binini by'amashami, ni amabara atandukanye ndetse n'ubwoko butandukanye, hari ibizamutse, hari ibindi bigandaye, hirya yabyo hari icyuma kinini gishinzwe gutambutsa umuriro w'amashanyarazi.

Ni ku kigo nderabuzima aho umumama ufite ishakoshi mu ntoki afite n'agafurari mu ijosi yambaye ibitenge birimo icyatsi n'andi mabara arimo aragenda bisa nkaho avuye kwivuza ku kigo nderabuzima.

Ni ikiraro kiri ahantu mu kibaya, aho hari hakurya yaho amashyamba n'ibiti byinshi bitandukanye, abantu bakiriho barimo baragenda, kibafasha kwambuka umugezi ni ikiraro cyubatswe na leta.

Ni inyubako ndende mu igorofa, iriho ibirahuri n'amadirishya, n'inzugi hari abantu imbere yayo benshi bambaye udupfukamunwa, biganjemo abagabo.

Inyubako zitandukanye bigaragara nk'aho ari aho kwakirira abantu, zifite amabati y'umutuku, mo imbere harimo utugiriyage tw'umweru, ku mpande hari indabyo nyinshi z'icyatsi kibisi n'imihanda icamo ikomeza yinjira mu nyubako.

Ni inyubako imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda, iri inyuma h'indabyo zimeze nk'izikoze jaride, inyuma yayo hari ishyamba, mo imbere harimo abantu.

Ni ibikorwa bya leta, ni kwa muganga, ni inyubako iba yarashyizwemo imbaraga na leta, aho abantu baza kwivuza, hamwe hicaye abantu batatu, ahandi hahagaze umuntu w'umugabo, baje kwivuza.

Ikiraro cyo mu kirere, ni ikiraro cyubakishije, ibyuma habaho abantu bagendera, ndetse no mu mpande ku buryo utapfa kurenga ngo ugwe, hariho moto umuntu atwaye, arimo arakigendaho.

Ni imbere y'inzu aho abantu bahagaze bari kwifotoza, ni mu nzu y'ubucamanza hari abagabo, abagore n'abandi bantu batandukanye barimo barifotoza.

Abagabo batanu n'umugore. Umugore yambaye agakanzu k'umuhondo, abandi bambaye amakote. Imbere yabo hicaye abantu batatu barimo barakongeza buje bose, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwibuka.

Baricaye bamwe bicaye ku ntebe y'iburyo abandi bacaye ku yo hakurya, ni abagabo n'abagore bose barangariye umuntu urimo hagati muri bo ni umugore wambaye ikoti ry'umutuku bisa nk'aho bari mu rubanza.

Bari gukora isuku ahantu hari harameze ibyatsi byinshi imbere y'inyubako nini isa neza n'iy'ubucamanza no kurengera ikiremwamuntu.

Ni mu bacamanza aho bicaye mu nama. Bambaye amakoti, bambaye neza bicaye bateze amatwi. Imbere ku meza hari amazi n'amatelefone. Hirya hari umupolisi wambaye iniforume ya gipolisi.

Bari mu rutoki ahateye udutebe dutandukanye, ni abagabo barimo n'abapolisi, aho bari kugenzura umutekano bisa nkaho bawangije bari kuwugarura.

Bari mu ihema ni abagabo n'abagore, abakecuru n'urubyiruko, bambaye amafurare bose bisa nkaho bafite mu ntoki amabuji, bagiye kwibuka bari mu itente ribahurije hamwe.

Ni mu butabera ahari abantu benshi bicaye mu nama, barasa nk'abihebye bitewe n'ibyo babona imbere yabo mu maso yabo, ni abantu benshi batandukanye bari gukurikirana iyo nama.

Barahagaze ni abagabo n'abagore bari ahantu hubakiye, inyuma yaho hari uruzitiro rw'indabyo n'ibiti birebire basa nk'aho bari mu rubanza.

Ni umuhanda ucamo abantu n'ibinyabiziga, uri imbere y'inyubako ziteganye, hakuno no hakurya y'umuhanda, hamwe iruhande rw'ipoto hicaye abantu bari mu mutaka wa Airtel.

Imodoka nini yanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi, n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, imbere yayo hahagaze umugabo undi nawe ari gusa nkaho abaza abayicayemo aho bagiye.

Imodoka iri mu muhanda ni imodoka y'umweru hirya yayo hari abamotari barimo baragenda bajya mu kazi ni mu muhanda wa kaburimbo aho hino yaho hari ibyatsi.

Imodoka iri kuva mu byatsi ahantu hameze nko ku kibuga, yerekeza mu muhanda w'igitaka, abantu bari inyuma yayo ndetse hari n'ishyamba, basa n'aho bari kuhakinira umupira.

Karangazi ni icyapa kinini cyerekana Karangazi mu Karere ka Nyagatare, aho hari ibiti n'ibyatsi, impande zacyo n'icyapa kinini cyandikishijeho inyuguti nini.

Umugabo wambaye agakote k'akajire k'umutuku, kariho imifuka hasi no hejuru, ahagaze imbere y'abandi bantu, umwe muri bo na we yambaye nka'ko kajile, bari imbere y'imodoka itwara abantu rusange.

Ni mu muhanda aho hacaho ibinyabiziga byinshi, moto niyo iciyeho hirya yayo hari inzu y'igisenge cy'umutuku, hino gato hari umuntu uri guturuka mu nzira yo hirya, yambaye akajire k'umukara ari iruhande rw'icyapa kinini.

Umumotari utwara moto rusange ishinzwe kugemura ibiribwa, yambaye ipantaro y'ikoboyi ijya gusa nk'ubururu bwerurutse, yambaye n'agapira afite na kasike mu mutwe, ari mu muhanda.

Bahagaze ahantu hatari inzu n'imwe ni abantu benshi bamwe bicaye hirya yabo harimo abagabo n'abagore harimo n'abashinzwe umutekano bambaye inifomu z'icyatsi kibisi, bisa nk'aho bafashe nk'umuntu w'umujura wari uri kwangiza umutekano.

Ni abagabo n'abagore barimo barabyina bishimye, cyane bari imbere y'inzu y'umuntu, iyo nzu iri iruhande rw'insina, barimo barabyinira mu byatsi bambaye bote, abandi bifubitse imipira hanyuma barishima.

Abakinnyi b'umupira bamwe bambaye imihondo abandi bambaye ubururu, barimo mu kibuga ari abantu bane, hirya hari akazu karimo undi muntu bigaragara ko ari kubagenzura, bari gukina baro irimo hagati mu kibuga.

Ni muri sitade aho abantu bari mu myitozo, bose baricaye usibye umuntu umwe ubahagaze imbere, bisa nkaho arimo arabatoza, afite mikoro arimo arababwira ibyo bakora.

Bari muri siporo ni inyuma ya sitade, ni abasore n'abakobwa bose baryamye hasi, umuntu umwe arimo arabatemberamo, areba buryo ki bakora siporo bambaye imyenda ya siporo bose n'inkweto.

Bari muri siporo aho bambaye imyenda ya siporo yabugenewe. Ni urubyiruko rwiganjemo abasore, barimo barasimbuka basa nkaho, barambuye amaboko, buri wese yahaye intera mugenzi we,

Ni abagabo batanu bari mu kibuga hasi hari ibyatsi byinshi, bari gukina umupira bari muri siporo imbere yabo hari ikintu cyubatse nka sitade.

Bari mukibuga, ni abagabo bari kumwe n'umugore umwe, ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, barahagaze, bari gufata ifoto, umwe muribo yambaye imyenda y'icyatsi kibisi, umugore yambaye umutuku n'umukara.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ufite n'akayira k'abanyamaguru kari hino, iruhande rw'ako kayira hari icyapa kiriho umuntu uri kwambukiranya umuhanda, ni imbere y'inyubako, uwo muhanda ni uwo mu gakaritsiye.

Ni mu muhanda, muri kaburimbo haciyemo hagati akarongo k'umuhondo, hirya y'aho mu kayira k'abanyamaguru, hari umuntu w'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, iciyemo akarongo k'umweru, yambaye n'agapira k'umweru, n'inkweto bigaragara ko ari muri siporo.

Ni mu kayira k'abanyamaguru, ni mu cyaro ahantu, hafi y'ishyamba n'ibindi biti, hari n'ibyatsi, bitoshye, mo hagati na hagati harimo abantu bari kugenda.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho hakurya yawo hateye indabyo hari n'ibyapa binini bya pirimusi, hari n'icyapa cy'abagenzi cyerekana uko umuntu yakwambuka umuhanda.

Ni mu muhanda wa kaburimbo mushyashya, ni imbere y'inyubako nyinshi uko ari ebyiri ziriho amarangi y'ubururu n'umweru, mu muhanda hari umusore wambaye agapira k'umweru yafubitse ikote yambaye n'ipantaro y'umukara ari kugenda.

Ni akayira k'igitaka gakomeza gaca hagati y'ibipangu, hari ibyatsi kuhande ni ku muhanda ni muri karitsiye ahatuye abantu benshi ariko ako kayira karakomeza.

Umugore uteze agatambaro k'ubururu, yambaye agapira gasa move, yambaye igitenge hasi kirimo amabara abiri umutuku n'umukara, afite agasakoshi mu ntoki, yambaye n'inkweto z'umutuku, arikugendera mu muhanda rusange urimo amapave.